Intebe zikoze mu mbaho , ibyuma ziri mu ishuri risize irangi ry'umweru , ikibaho cy'umukara. Muze twese twige ni byiza cyane.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri bagiye kwiga, bakora siporo bamwe basimbuka, abandi bazamura amaboko. Siporo ni nziza, ituma tunanura umubiri, ukagira ubuzima bwiza.

Abakobwa bahagaze bambaye amashati y'umweru ,amajipo y'bururu, bari gusuka imisatsi. Gusuka ni umwuga mwiza bituma tubona amafaranga ,na mwe ababishaka muzaze tubasuke.

Abaganga bahagaze bambaye udupfukamunwa, amashati y'umweru, ingofero z'umweru, n'ibitanda biriho amashuka, abaganga baratuvura tukagira ubuzima bwiza bityo indwara ntizituzahaze cyane.

Abaganga batatu bambaye ingofero z'umweru, amashati y'umweru, bafashe utwuma bari gupima imiti kugirango barebe ko yujuje ubuziranenge. Abaganga baratuvura, bagatuma ubuzima bukomeza kugenda neza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri. Imbere yabo hariho kompiyuta ziteretse ku meza y'igiti n'igikapu, n'insinga. Bambaye amakote bari kwiga ikoranabuhanga. Kwiga ni byiza bituma tumenya gukora ibintu byinshi harimo no kwesitara.

Abantu bahagaze abandi barunamye. Bambaye amashati y'icyatsi bari kwiga gukanika moto bayifunguye ibyuma bimwe biri hasi. Gukanika ni byiza biduha akazi, tukabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe, bambaye ibisarubeti bitandukanye, bifite amabara y'icyatsi, bari kwiga kudoda imyenda, muzaze tubadodere ku giciro cyiza.

Ishuri ririmo intebe zifite amabara atandukanye ibara r'icyatsi, ibara ry'ubururu, ibara rya kaki, ameza hariho ibitabo byinshi afite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, ikibaho cyiza cy'umukara, ishuri ni ryiza ryigamo abana bacu.

Abana baricaye ku ntebe z'ibiti, bamwe bari kwandika abandi bari gusoma ibitabo, mwarimu arahagaze yambaye ishati y'umweru ari kubigisha uburyo bwo gusoma ibitabo. Kwiga nibyiza bituma tumenya ubwenge kugirango ejo hazabe heza.

Abanyeshuri bahagaze harimo umukobwa wambaye ishati y'icyatsi na ga z'umweru, umwarimu wambaye ishati y'umweru, ari kwiga gukoresha imashini y'icyuma. Gukoresha imashini ni byiza, kuko bituma akazi gakorwa vuba vuba, kandi kwiga bituma tugira ubwenge.

Abagabo batatu bicaye, imbere yabo ku meza hariho ibyuma, radiyo, imirasire, insinga, bari kwiga gukanika. Gukanika ni byiza bituma tubona akazi, bityo tukabona amafaranga tukiteza imbere.

Umugore wicaye, wambaye ishati y'icyatsi, imbere ye ku meza y'igiti hariho inkweto nyinshi, ari kwiga kuzidoda. Kudoda ni byiza, bituma tubona akazi kakaduha amafaranga, tukiteza imbere.

Intoki z'umuntu wicaye ku mashini idoda imyenda. Afashe umwenda ari kuwudoda, muzaze tubadodere, tudoda imyenda y'amoko yose.

Abanyeshuri bambaye amashati y'ubururu，bari kwiga bafite ibikoresho bikata ibyuma， kwiga ni byiza bituma tubasha gutera imbere， kandi biduhesha akazi.

Umugabo ahagaze mu nzu irimo ibyuma bifotora, hakabamo n'ibindi biriho insinga nyinshi. Ibyuma bifotora bitanga akazi, kandi babikoresha mu bukwe, bakanabikoresha iyo bagiye gufata amashusho.